Umukecuru wambaye umupira w'umweru wijimye, wambariyemo agapira mu imbere, akaba afite amaherena ku gutwi, akaba agaragara nk'ushaje, ari gufata imiti imufasha mu izabukuru, akaba ayifatisha amazi.

Bane baje kwa muganga, harimo babiri bambaye igitambaro cyo mu mutwe, undi witandiye mu maso, undi udafite igitambaro mu mutwe, bazanye abana babo kwa muganga, gufata amabwiriza y'uko babarera neza bakazakurana ubuzima bwiza.

Muganga ari kuvura umwana uri hagati y'imyaka itatu n'itanu, mama we akaba ari iruhande rwe areba uko muganga amuvura.

Umugore aracuruza ari kuvugana n'umukiriya wamuhaye icyashara; bavugana ku biciro buri bugure imiti ivura urwagashya, inzoka n'ibindi.